Aya mashuri ko ari mu biti! ubu se ino nka ntabwo inkuba yayikubita imvura iguye, baziritse muri Ibi biti? ubundi se uyu mushumba ntabwo ari kubibona!

Ibiti by'indumburamarumbo ko byakunze , byabaye byiza aho babihubitse, ubwo se ntibyarengeje igihe cyo kubitera? Ni byiza rwose.

Karoti zarakunze, ariko hari hamwe zitameze, icyakora zabaye nziza aho zihinze , ziraryoha nuy'umurima bazihinzemo ni munini.

Aya matunda ko yapfuye? Cyangwa iyo yeze ni gutya aba? Andi mbona mu isoko ko aba atameze gutya ?Buriya si ugupfa? Cyakoze araryoha.

Ibijumba biba bisa gutya biba biryoshye, Kandi buriya ntabwo bihenze. Cyane cyane biriya bisa n'umweru, ariko n'iby'umutuku haba igihe biryoshye da!

Indimu bazihinga mu Rwanda? Cyangwa izi ni yo mpamvu zaboze ni iza hano mu Rwanda! None se izindi mu nda ziba zimeze nka gutya? Ko wagira ngo ino yaraboze!

Uyu murima wagize ibishyimbo byiza kubireba biryoheye amaso bamaze no kubibagara vuba kandi ni ibigufi.

Ubunyobwa nk’ubu buba buryoshye. Iyo ubukaranze ukabuhekenya，cyangwa ukabubetamo ubunyobwa bwo guteka，nka buno duteka mu biryo bisanzwe，buba buryoshye ni ubunyarwanda.

Amagare uziko apakira ibintu byinshi, reba rino gare ibi bishyimbo byose ryapakiye, ubwo se buriya ibyinshi iri gare ntiryabitaye mu nzira!

Inyoni z'amabara ziracyabaho? Cyangwa ino ni inuma. Ko iri kureba gucya ino numa. Iri ku mazi ariko cyangwa ni ku ibuye riri hejuru y'amazi?

Uru rushimba ni bwoko ki ko rufite amaso manini? Ni ingwe, ingwe ko ari iba iteye ubwoba? Nk'ibi bisimba ntabwo biba mu cyaro. Biba inaha mu mujyi gusa by'ibishushanyo nabwo.